Icyapa kinini kirimo ishusho y'umweru cyamamaza ero andi daburiyu inshuwarense. bukaba ari ubwishingizi batanga ku bakiriya babo, bityo bakabaho ntacyo bikanga.

Inyubako ndende cyane ikingishijwe ibirahure igeretse inshuro icumi, ikaba iriho icyapa cyamamaza kiriho umwana mutoya ushobora kohereza esemesi kuri mirongo itatu na rimwe mirongo icyenda na kabiri gatandatu.

Umuhanda urimo imodoka nyinshi zikaba zahagaritswe n'ibimenyetso bimurika byo mu muhanda, hafi yaho hari icyapa kinini cyane cyamamaza kampani y'ubwisungane cya adiriyani.

Kipu yowa fiyuca porotekidi, Zenithe. Ubu ni uburyo bworoshye kandi bwiza, ushobora kuba wagura ubwishingizi mu kwivuza ukabaho utekanye nta kibazo ufite na kimwe, kuko uba warishyuye ubwishingizi.

Icyapa kinini cyane giteye irange ry'icyatsi kiriho abantu batanga ubwishingizi bw'imodoka mu gihe cyose ufite ikinyabiziga uba ushobora kubagana bakagufasha bakacyishingira.

Inzu iri mu mujyi wa Kigali ikorerwamo ubucuruzi butandukanye, hari urujya n'uruza rw'abakiriya. Mu muhanda harimo ibyapa byiganjemo biri mu ishusho y'ubururu biri kwamamaza asiranse ya rayoni.

Radiant yacu, radiant turi kumwe mu rugendo rwawe tuguhe ubwishingizi bw'ubuzima. Kanda akanyenyeri gatanu gatatu rimwe urwego ubundi nawe wishinganishe ubeho utuje.

Apulikasiyo ya Banki ya Ekwiti irimo irerekana uburyo ushobora kubikuza amafaranga, yaba ukoresheje ikarita, cyangwa se ukayabikuza ukoresheje nk'umu ajenti ukuri hafi.

Bank of Kigali iyi ni konti ya Kayisire iri muri telefone ye, aho ashobora kureba amafaranga asigaranye kuri konti ye cyangwa se akaba yakohereza amafaranga, ashobora no kugura ibintu yifashishije konti ye.

Equity Bank ifite uburyo bw'ikoranabuhanga ushobora gukoresha ugasevinga amafaranga yawe. Urugero: uwitwa Ana akaba yarahisemo gusevinga amafaranga ye, akaba afite miliyoni mirongo itanu yasevinze.

Murakaza neza kuri banke ofu Kigali, ubu ni uburyo ushobora kuba wabitsa ndetse ukanabikuza, ndetse ukaba wanakoresha izindi serivisi zose wakenera za beka, wibereye mu rugo kuri telefone yawe cyangwa mudasobwa yawe.

Apurikasiyo ya banki ishobora kugufasha ukareba taranzakisiyo zose wakoze muri uko kwezi kandi zose ukareba igihe zabereye, aho zabereye ndetse n'abantu wazikoreyeho. Biroroshye kandi birizewe. Kanda...

Boutique irimo ibicuruzwa bitandukanye, irimo ama etajeri apanze neza kandi buri bicuruzwa biri ukwabyo ku buryo byorohera umukiriya ubishaka guhita amenya aho biri bitamugoye.

Butike icuruza imyenda igiye itandukanye, umukiriya w'umugore umaze kugura umwenda yayizanye ku aho bishyurira kandi barimo gukoresha ikoranabuhanga kugira ngo bishyure.

Gorudeni fashoni shopu, iri ni iduka rigezweho ricuruza imyambaro yo kwambara y'abagabo harimo amakote meza cyane inkweto nziza cyane z'abasirimu zo kwambara, ushobora kuhanyarukira mu gihe ufite ibirori bitandukanye ukahatambukana umucyo.

Inkweto zitandukanye z'abagore harimo iz'umukara iz'umweru izifite taro ndende ndetse n'izindi zitandukanye zikaba ziteretse ku kameza k'umweru.

Umukobwa mwiza cyane wagiye mu ihahiro, arimo guhaha amavuta yo kwisiga ndetse n'ibindi bikoresho bitandukanye by'ubwiza, harimo inkweto zo kugura z'abakobwa ndetse n'inkweto zifunze z'abagabo.

Ihahiro ririmo ibicuruzwa bitandukanye, urugero nk'imyenda y'abana ndetse n'ibyicungo byabo, ibyo gukinisha byabo, ndetse n'utumatera twabo bashobora kuba bararaho neza.

Made in Rwanda ni uburyo bwiza bwashyizweho na leta y'u Rwanda, kugira ngo ibintu bizajye bikorerwa mu gihugu kandi birinde y'uko ibyo bohereza hanze y'igihugu ari byo byaba bikeya, ibi ngibi bizateza imbere abaturage.

Imipira icuruzwa iri mu iduka ikaba harimo amarakosite y'amabara atandukanye, umweru, oranje, ubururu n'umukara, n'ayandi mabara.

Ihahiro ririmo imyenda igiye itandukanye; iy'abamama, iy'abakobwa, iy'abagore, iy'abagabo ndetse n'iyindi. Harimo amakanzu meza cyane y'amabara atandukanye ay'imihondo, ubururu n'icyatsi.

Imurikagurisha ririmo ibikoresho bitandukanye by'ubwiza imitako imirimbo yaba iyo mu ijosi iyo ku maboko iyo kumanika mu nzu ndetse n'ibindi bijye bitandukanye byose kandi bikaba ari made in Rwanda.

Imodoka ya Kiya, uruganda rukaba runacuruza imodoka Akagera motozi, rukaba rwamushyikirije imodoka ye.

Imodoka y'ivatiri nshyashya ya Kigali karisi maketi, yo mu bwoko bwa kiya, ifite amabara y'umweru, ikaba iparitse ahari izindi modoka nyinshi cyane zigurishwa cyangwa se zikodeshwa mu mujyi wa Kigali.

Viyiko serizi, aha ngaha ni ahantu ushobora kuza ukagura ibicuruzwa bijyanye n'ibyo guteka, ibyo kurya, ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye byose wakenera mu rugo.

Kampani zitwara abagenzi mu buryo bwa rusange, kampani ya Vorokano iri kwerekana bisi zayo nshyashya zo mu bwoko bwa Yundayi zizajya zifashishwa mu gutwara abagenzi zibajyana mu duce dutandukanye.

Imodoka y'umweru ifite amapine y'umukara iparitse, ikaba ari iya Kigali karizi maketi, ikaba igurishwa cyangwa se ikodeshwa.

Abagabo bane n'umugore umwe bicaye bari mu kanama gatoya kugira ngo bagire ibyo bumvikanaho ku masezerano bagiye kugirana bagiye gusinya hagati yabo kandi azabe asukuye.

Abagabo babiri barimo kwitegereza imodoka y'umukara. Umugabo umwe ni inzobe, yambaye umupira w'umukara n'ipantaro ya kaki. Undi bari kumwe we arirabura, yambaye kositime ya kaki.

Imodoka y'umukara yo mu bwoko bwa yundayi, abakobwa babiri bayihagaze iruhande imiryango yayo irafunguye. Abakobwa bombi bambaye udupfukamunwa.

Imodoka nziza cyane yo mu bwoko bwa lava ariko ikaba ari iy'uruganda kiya ikaba iri ku isoko ry'umujyi wa kigali kandi rikaba irimo iragurishwa amafaranga make cyane.

Yundaya Rwanda, aho ikigo cy'ubucuruzi cya Yundayi gigurishiriza imodoka zabo, hakaba hasakajwe amabati y'umutuku mo imbere harimo imodoka z'ubwoko bwose.

Imodoka iparitse ahantu igomba kugurishirizwa ikaba ifite amabara y'umutuku hakurya yayo hari n'indi bimeze kimwe, inyuma yazo hari amakamyo ya yundayi yifashishwa mu gutwara ibicuruzwa n'ayo agurishwa.

Ifoto umukozi w'Akagera motozi ari gufatana n'umukiriya wabo, akaba ari gushyikirizwa imodoka ya kiya, uyu mukiriya yari yarayitumije mu mahanga akoresheje Akagera motozi.

KCB, KCB ni banki itsura amajyambere, ikaba ikorera ahantu hagiye hatandukanye. Hari abakiriya bayiganye ku ishami ryayo riri ahantu hamwe mu mujyi wa Kigali kandi barimo kubakira neza.

Banki nationale du Rwanda igiceri cya banki nkuru y'u Rwanda cyakozwe mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo irindwi na karindwi. Ubu ngubu kikaba kitagikoreshwa hakaba harakozwe ibindi.

Serivisi zigiye zitandukanye zitangirwa hano muri banki, ushobora kuza kubikuza amafaranga yawe mu gihe cyose ubikeneye, ushobora no kuza kwaka inguzanyo, umukozi wo muri banki arimo gusobanurira neza umukiriya wabagannye.

Kiyosike ikorerwamo imirimo y'ivunjisha rusange, mu gihe uzana amafaranga bakakuvunjira, ikindi kandi izi serivisi zirihuta kandi zirizewe kandi abazikora babasha kubona inyungu yabo nawe ukayibona.

Amafaranga yo mu gihugu cya Kenya ari kumwe n'amafaranga y'amadorari, umuntu uyafite araje kugira ngo bamuvunjire, bamuhe andi mafaranga yo mu gihugu cy'u Rwanda. Baramuha neza neza ahwanyije agaciro n'ayo yazanye.

Umukozi wibiro by'ivunjisha urimo kureba amafaranga bamuhaye kugira ngo abashe kuba yavunjira umukiriya wabo ahwanye neza neza nyo yarazanye izingizi zikaba ari serivisi zitangwa kandi ku buntu.

Banki nasiyonari de Rwanda amafaranga igihumbi iyiNgiyi ni inote yemewe yakoreshwaga mu gihugu cy'u rwanda mu myaka yo hambere, ikaba yarakozwe na banki nkuru y'u Rwanda.

Kiyosike icuruza amata y'inyange, ikaba ifite n'ibyo kurisha urugero nk'amakeke, amandazi n'ibindi, banacuruza n'amagi ahiye, ikindi kandi muri iyi kiyosiki hari n'amaji yo kunywa, amafanta ndetse n'ibindi bitandukanye.

Amapaki ane y'imigati hakaba harimo n'ipaki y'amandazi birafunitse neza biteretse ku meza kugirango abakiriya nibaza kuza babone ibyo bagura.

Amata ari mu gikombe hari n'ibiryo kuruhande ikaba ari resitora iteka neza ikaba igabura kandi ku ifunguro ryabo, hakaba haba hariho n'ibyokunywa bihagije kandi binyuze buri muntu.

Ibyuma bibiri birimo amata umusaruro w'amata wose ukusanyirizwamo kugira ngo akomeze kubikwa neza muri kondisiyo nziza biri ahantu hasukuye.

Nyanza miliki indasitirizi, iri ngiri ni ikaragiro y'amata ya Nyanza, ushobora kuba waza ukahagura inshyushyu yaba iyo guteka mu cyayi cyangwa iyo kunywa, aya ni amata meza cyane aryoha kandi yuzuye intungamubiri.

Miriki zone y'inyange, kikaba ari icyuma gicuruzwamo amata y'inyange kikaba cyegereye abaturage, kiba kiri ahantu hari kiyosike z'inyange. Haba hari n'udutebe two kuba mwakwicaraho.

Amata ni ubuzima. Igikombe cy'amata kinini ukinyweye wumva agaruye agatege kandi nta handi wagisanga uretse kuri mukamira milike, ikaba ariko kiyosike ishobora kuba yaguha amata meza yo kunywa.

Uburyo bwa momo ni serivise itangwa na emutiyene, aho ushobora kuba wakishyura ibyo uguze batabanje kuba bagukata, ibi ngibi bikaba byorohera abakiliya ndetse n'abacuruzi kuko ari uburyo bwiza bwihuse bwizewe.

Rogini tu peyipari, payipari ni uburyo ushobora kuba wafungura konti muri payipari, ubundi ukaba ushobora kohereza amafaranga wibereye mu rugo, urugero ushobora kuba uri mu Rwanda, ukohereza amafaranga umuntu uri mu Bwongereza.

Uburyo bwo kwishyura ukaba wakohereza amafaranga ukoresheje uburyo bwa digitari, ni ukuvuga ikoranabuhanga bitabaye ngombwa yuko uzajya ugendana amafaranga mu ntoki, aho ugiye hose kandi biroroshye birihuta.

Uburyo bw'ikoranabuhanga bukoreshwa mu kugira ngo umuntu yizigame. Uyu ni uwitwa Mayizi uri kwerekana uburyo ashobora gukoresha akizigama kuri telefone ye.

Uburyo bwo kwishyura buri digitari, ushobora kwishyura amafaranga uko yaba angana kose, ukoresheje ikoranabuhanga kandi wibereye mu rugo, ubu buryo buroroshye burizewe kandi burihuta, kandi bwemewe n'amategeko.

Uburyo ushobora kwishyuramo amafaranga byihuse kandi byoroshye ukoresheje MTN mobayiro mani, bakaguha aka mesaje karimo umubare w'amafaranga ugomba kwishyura, ugashyiramo pini yawe ukishyura.

Peyipare sendi peyimenti, ushobora kohereza amafaranga wibereye mu rugo, ushobora kwishyura wibereye mu rugo, ariko hari umubare ntarengwa w'amafaranga ushobora gukoreshaho, iyo uyarengeje barabifunga.

Uburyo bworoshye ushobora gukoresha eyateri maze ukabasha kuba wakishyura ibintu byose waguze, ati :'' Bikorwa gute, kanda kanyenyeri ijana na mirongo inani na kabiri, akanyenyeri kane, akannyeri gatanu, akanyenyeri rimwe wemeze.''

Uburyo bwo kugura bw'ikoranabuhanga ushobora kwishyura ukoresheje peyipali amafaranga akagenda akagera kuri telefone y'uwo uyoherereje, bakaba bagukata amafaranga makeya ushobora kwishyura ukoresheje ubwo buryo.

FagitIre yemeza y'uko uwitwa Sabine Ingabire yamaze kwishyura umusoro, akaba aherereye muri Gasabo, akaba afite kampani yitwa viva porodagiti rimitedi.

Inyemezabwishyu yemewe ya Rwanda reveni otoriti ikaba itangwa na ibm yamaze kuvaho umusoro wose nkenerwa , bityo nawe ukaba ushyize itafari ku bukungu bw'igihugu cy'u Rwanda.

Iyi ni dokima igaragaza uburyo taranzagisiyo ziba zagiye ziba mu mabanki ndetse n'ahandi hatandukanye, ibi ngibi bikaba bibafasha kumenya uburyo serivisi zagiye zitangwa kandi birihuta kandi biroroshye.

Dokima zo muri banki za senyweho n'uwitwa Abayo Ninziza Fabrice kandi bikaba byemejwe n'uwitwa Umuhoza Rita Sandrine, akaba ari akitingi manajingi dayirekita.

Fakitire ya Rwanda reveni otoriti yemewe n'ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro ikaba itangwa n'imashini ya EBM kandi ikaba iriho umusoro wose wuzuye.

Fagitire ya EBEM iba yamaze kuvanwaho umusoro wose, bityo nawe ukaba ugize uruhare mu kubaka igihugu, iyi fagitire niyo yemewe na leta y'Urwanda kuko itanyanganya imisoro y'abaturage.

Inyemezabwishyu ,yerekana yuko wamaze kwishyura umusoro wawe, ikabaye itangwa na IBM, bityo ikaba yerekana neza neza ahantu ibyo bintu byatangiwe n'igihe byatangiwe.

Fagitire ya Ibiyemu yemewe n'amategeko ya leta y'u Rwanda kandi ikigo k'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro, Rwanda reveni otoriti cyategetse yuko iyi fagitire ariyo yemewe, ikaba iba igaragaza imisoro yatanzwe.

Uburyo bw'ivunjisha bwo mu mwaka wa bibiri na makumyabiri na kane ku itariki eshatu z'ukwa karindwi, idorari barireguraga igihumbi maganabiri mirongo cyenda n'icyenda, bakarigurisha ibihumbi magana atatu na makumya n'atanu.

Amafaranga yo mu bihugu bitandukanye umuntu akaba yaje kuvunjisha. Barimo guhererekanya amafaranga kugira ngo buri wese abone ahwanye n'ayo yazanye.

Amafaranga y'amanyamahanga, ni ukuvuga amadorari, amafaranga yo muri Tanzania, ayo muri Kenya, n'ayo mu Bugande, ayo yose ushobora kuyazana bakakuvunjira mu manyarwanda, kandi baguha agaciro gahwanye nayo.

Taburo igaragaza uburyo amafaranga avunjwa. Urugero amafaranga yo muri Australia avunjwa igihumbi magana ane mirongo irindwi n'atanu, akagurishwa igihumbi magana ane mirongo itanu n'atandatu.

Amafaranga y'amanyamahanga barimo kuyabara. Iyo ushaka kuba uhabwa amafaranga yandi uzana ayo ufite, bakaguha agaciro neza neza k'ayo wazanye.

Inote nyinshi cyane z'amadolari, buri gapande kamwe, ni ukuvuga aka box kamwe, kakaba kariho ibihumbi icumi by'idolari. Zikaba ziziritse ahantu hamwe, kandi zirarinzwe bikomeye.

Ku kibuga cy'indege aho umuntu aca bakamusaka; bagasaka ndetse n'ibintu atwaye; ndetse bakanagenzura niba itike ye yujuje ibisabwa na pasiporo ye niba yemewe.

Reserve Pay ushobora kwifashisha uru rubuga rwa www.reservenpay.com cyangwa se ukabahamagara kuri nimero zikurikira kugira ngo baguhe serivisi wifuza.

Ikaze biro deshanje, iyi ni kiyosiki igezweho kandi yemewe n'amategeko ushobora kuza bakakuguranira bakaguha amafaranga wifuza y'igihugu runaka biremewe, birizewe, kandi birihuta.

Kiyosike ya Manigaramu aho ushobora kuba wakohereza amafaranga ku muntu uri mu mahanga, mu gihe uri mu Rwanda ukoherereza umuntu uri muri Kenya cyangwa se uri i Burayi no muri Amerika hose, ni uburyo bwihuse kandi amafaranga ahita amugeraho ako kanya rwose.

Travelex aha ngaha ni ibiro bishinzwe kuvunja amafaranga kandi bikaba biguha neza neza ahwanye n'agaciro k'ayo mafaranga. Urugero niba uzanye amanyarwanda ushaka amadolari barayaguha.

Kiyosike ishinzwe kuvunjisha no kuvunja amafaranga, mu gihe uzanye amafaranga urugero; nk'amanyarwanda cyangwa se amafaranga yo muri Kenya wenda ukaba ushaka amadolari barayaguha.

Matela iri ku gitanda, iyi materi ikaba ikiri mu mashashi kubera yuko ari nshyashya, ikaba iteretse mu cyumba kinini cyane gifite n'amadirishya manini ariho na marido y'umweru.

Intebe nziza cyane ziri mu mabara atandukanye, harimo ay'icyatsi kibisi, ay'ubururu ndetse akaba zifite n'ameza akozwe mu biti yo mu ibara rya gere ndetse n'ayo mu ibara rya kake, zikaba ziteretse ahantu hamwe hari umugabo wazikoze.

Ahacururizwa ibikoresho bitandukanye, harimo ibyo mu biti, intebe zo kwicaramo ndetse n'amamatera ku bayashaka. Aha ngaha uhahahira ibyo wifuza byose.

Akadizayini keza cyane k'akabati, ushobora kuba waterekamo utuntu mu rugo, kandi tukaba ari utuntu twiza tunogeye amaso, ukaba waterekamo indabo, ibitabo ndetse n'ibindi bintu bitandukanye.

Intebe enye n'ameza byose bikozwe mu biti, biteretse hanze imbere y'inzu isize amarangi y'umweru, n'agapangu kinjira mu gikari gasize ibara ry'umutuku.

Intebe nziza cyane zikozwe mu biti zikaba zishobora kuramba zikaba zifite n'ameza yayo manini cyane n'ayakozwe mu biti, uko bigaragara bikaba bibereye ijisho kandi abantu bakunda ibikoresho byo mu biti.

Intebe za shokora, imbere yayo hari ameza ariho igitabo kirambuye, inyuma hari icyumba cy'uruganiriro kirimo intebe z'umukara zifite n'ameza y'ibyuma.

Ifunguro rya sasita rigizwe n'amakaroni, inyama, umugati ndetse n'icyo kunywa kiryoheye abantu muri rusange, bakaba biteretse ahantu heza cyane hari amafu.

Pisine yo kogeramo iri kuri hoteli ahantu hari ubusitani bwiza, ikaba ihora ituje hari kandi n'ahantu ho kuruhukira hari intebe z'imikara kandi haratwikiriye.

Ahantu ho kuruhukira hari udutebe tubiri tw'umweru ushobora kuryama, kandi harubakiye neza kuko ntago izuba rikwica.

Hoteri imwe mu mujyi wa Kigali, irimo gutanga serivisi zitandukanye, ikaba iri gushyira ku murongo, ibikenerwa byose kugira ngo hoteri ibe yujuje ibisabwa, kandi abakiriya bakeneye muri rusange.

Komvesheni Senta, hoteli yayo ya Redisoni Bulu, irimo kwaka amatara meza cyane y'imihondo, ikaba ikingishijwe ibirahure bibonerana bigira ahantu heza cyane.

Inyubako nziza cyane igeretse kane, iri kwakamo amatara y'imihondo, hafi yaho hari umuhanda nyabagendwa ucamo ibinyabiziga bitandukanye, harimo amamodoka ndetse n'abagenzi bari kubisikana.

Hoteli ikoreramo abakozi batandukanye haba hari serivisi nyinshi zitandukanye hari aho kuba mwaruhukira mugafata amafunguro meza kandi mukaganira n'inshuti.

Hoteri nziza cyane, iriho ubwogero bunini cyane, hashobora kujyamo abantu barenga mirongo itanu, bose bakoga kandi ntanumwe uhutaje undi. Ni hoteli y'inyenyeri eshanu, igereretse inshuro eshatu, ifite irangi ryiza ry'umuhondo, n'aho kuruhukira hahagije.

Icyumba cya hoteri y'inyenyeri eshanu, kiba kirimo televiziyo, kirimo uburiri bunini cyane, kirimo uruganiriro, kirimo ibiro ndetse ushobora kuba wahicara ukaruhuka rwose ukaba wasubira mu kazi umeze neza.

Ahantu ho kwicara abantu bakaganirira, hari ameza y'ikirahure, n'intebe z'umukara, zifite n'umutaka hejuru, ubatwikira izuba ndetse n'akavura.

Ahantu heza cyane hari akajeride keza mushobora kwicaramo mukaganira n'inshuti n'abavandimwe, ni hoteri nziza cyane iri ahantu heza ifite inzu yubakishije amatafari ahiye, kandi isize amarange y'ubururu.

Feruje, ibimenyetso bimurika byo mu muhanda ariko bikaba bitarimo kwaka byazimye, hirya yabyo hari inyubako ndende igeretse gatatu ifite ibirahuri bya fime kandi isize amarangi y'umuhondo.

Imashini iteretse ku meza hariho n'intebe umuntu ashobora kuba yakorera hakaba haba nk'ibiro akoreramo ibyo akeneye byose, haratuje kandi hari akayaga keza cyane.

Icyumba cyiza cya hoteri, kirimo igitanda, intebe zo kwicaraho mu gihe muri kuganira kandi kirimo tapi nziza cyane, iki cyumba gisize amarangi meza cyane y'umuhondo, asa neza abereye ijisho.

Icyumba kirimo ibiro kirimo kandi n'intebe abaje gusaba serivisi bashobora kwicaramo, hari ameza igihe atandukanye ariho ibikoresho bya ariyensi.

Radiant insurence company isezerano ni isezerano kuko batanga ubwishingizi buhamye.

Prime Insurance Company, ibiro byayo biri mu mugi wa Kigali birimo umukozi ubikoramo, hakaba hari n'intebe abakiliriya bashobora kwicaramo mu gihe barimo kuganira ku bijyanye no kuba bafata ubwishingizi.

Ahateguwe kugira ngo haze kubera inama yo ku nshuro ya makumyabiri na kabiri, hakaba hasa neza cyane hari amabara y'umweru, intebe nziza cyane ziri buze kwicarwaho n'abayobozi n'aho abaraba bakurikiye bari bwicare.

Icyapa kinini kiri mu ibara ry'icyatsi cyerekana yuko batanga serivisi ya woridi moco zigiye zitandukanye, igihe cyose ubakeneye ushobora kuhasanga aho bakorera kuko bakora amasaha yose.

Efu piyayi fini hawuze patenazi limitidi, iki ni ikigo gishobora kuba cyaguha inguzanyo yagera kuri miliyoni mirongo itatu giherereye mu nzu yitwa ikaze hawuze kuri furo ya gatatu i Remera kugisimenti.

Ese uratunguwe, ushobora gukora impinduka, hamwe na BK kapito BRD, RMB ndetse n'ibindi bitandukanye, ushobora kuba wabajoyininga bityo na we ugatera imbere byemewe kandi byihuse.

Agisesi banki, iyingiyi ikwemerera kuba watangira kuzigamira umwana wawe wenda ku mashuri cyangwa se kugira ngo azagire ubuzima bwiza. Ushobora guhera nonaha kandi ku mafaranga make cyane, ukazigamira umwana

Bpr bank ushobora kugera ku nzozi wifuza, bpr bank irimo iratanga inguzanyo igera kuri miliyoni mirongo itatu. Umukobwa wambaye imyenda y'abejenyeri urimo kwamamaza bpr.

Isoko rya Nyabugogo modern market, zikaba ari hangari zubakishije amabati y'ubururu. Hari abaturage benshi baje guhaha, abandi ni abacuruzi.

Umugore n'umugabo bacuruza imbuto mu isoko. Umukiriya ubagannye, arimo arabishyura amafaranga na bo bakamuha fagitire yemewe ya ibiyemu.

Isoko rinini kandi ririmo imyenda itandukanye, urugero imyenda y'abamama, iy'abagabo, amapantaro, inkweto n'ibindi, harimo urujya n'uruza rw'abantu buri wese arimo kureba ibyo ashaka kandi aribuze kubibona.

Isoko ririmo abantu batandukanye kandi baje guhaha ibintu bitandukanye, abaturage bakaba bishimye kuko bari bubone ibyo bashaka byose.

Ku isoko bacuruzamo imyenda yo kwambara yiganjemo ibitenge, hari abantu baje kugura ibitenge biganjemo abazungu, bakaba babikunze cyane. Umucuruzi uri kubicuruza arahari na we.

Isoko ry'imboga n'imbuto ndetse n'ibindi bicuruzwa bitandukanye, umucuruzi aricaye ategereje y'uko abakiriya baza kumuhahira afitemo ibicuruzwa bitandukanye byiganjemo imbuto, inyanya amashu, kokombure, imiteja n'ibindi.

Isoko ririmo abacuruzi ndetse n'abaguzi, iri soko rikaba ririmo ibicuruzwa bitandukanye, higanjemo imboga n'imbuto. Umucuruzi arimo araha inyanya umuguzi wamugannye, kandi ari kumuha inyanya nziza cyane.

Isoko ry'imyenda rikaba ririmo imyenda igiye itandukanye, urugero nk'amashati, imyenda y'abana, amapantaro, ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Harimo n'amakanzu meza y'aba mama n'ay'abakobwa ba se.

Isoko ririmo ibicuruzwa byiganjemo ibyo kurya urugero nk'ibishyimbo, harimo kandi n'imboga n'imbuto amaronji, imineke, inanasi, ibinyomoro, avoka n'ibindi.

Isoko ricuruza imyenda yo mu gakinjiro, rikaba ririmo abaguzi benshi bazindutse baje kureba imyenda yo kwambara. Yiganjemo imyenda y'abagabo, iy'abagore amashuka ndetse n'ibikapu.

Isoko ririmo ibyo guteka imboga n'imbuto, hakaba higanjemo imboga by'umwihariko nk'inyanya, intoryi, karoti, ibitunguru, imiteja ndetse n'ibindi. Tutibagiwe n'ibyo kandi bacuruza ibyo guteka harimo nk'ibijumba amashaza n'ibindi.

Isoko ririmo ibyo guteka bitandukanye, harimo abakiriya ndetse n'abacuruzi buri wese ari mu kazi ke, abakiriya bashobora kubona ibitoki, amakara, ibitunguru, intoryi, karoti n'ibindi byo guteka bitandukanye.

Kiyosike ya Emutiyene mobayiro mani, itangirwaho serivisi zitandukanye, ikaba iba irimo umukozi wayo ubishinzwe kugira ngo ageze kuri abo bantu serivisi nziza kandi zinoze aba ahari igihe cyose.

Kiyosike, ikoreramo umukozi wa Airtel, ikaba ari uburyo bushya yashyizeho kugira ngo serivisi zayo zigende zigera ku bakiriya biboroheye, batanga serivisi zitandukanye, urugero nk'izo kubitsa no kubikuza, n'ibindi.

Kiyosike ya MTN, iba irimo umu ajenti wa MTN, kugira ngo atange serivisi zitandukanye za MTN, zaba iza mobalo mani, izo kubitsa no kubikuza, ndetse no kuba yabaha ama inite.

Umu ajenti wa MTN Mobile Money uri mu gakiyosike ke, akazu gatoya gakoreramo kugira ngo atange serivisi zigiye zitandukanye za MTN Mobile Money, urugero nko kubikuza amafaranga n'ibindi.

Gutembera muri rutemikirere aha ngaha ni aho ushobora kugurira itike yawe yindege, bitewe naho ushaka kujya, kandi bakayiguhera ku gihe mu buryo bworoshye kandi bwihuse, igiciro cyo ni nk'icy'umuneke rwose.

MTN mobayiro mani ikaba yazanye uburyo bushya bwo kwishyura ukoresheje kode bwitwa momo peyi, umucuruzi akabasha kubona amafaranga kandi n'umuguzi akishyura kuri iyo kode batarinze bamukata.

Ishyura na momo pay ukanda kanyenyeri ijana na mirongo itandatu na gatanu kanyenyeri gatatu urwego kandi ntago bari bugukate niwishyura kuri ino kode ikurikira.

Agakiyosike ka emutiyeni mobiyilo mani gakoreramo umu ajenti wabo kakaba karimo kwamamaza uburyo bushya bwa mokashi bwo kuba wakwizigamira, ukanda akanyenyeri ijana mirongo itandatu na gatanu akanyenyeri gatanu urwego.

MTN mobayiro mani, iyi ngiyi ni kode y'uwitwa Fashion Frigrance, ikaba ari uburyo bwihuse kandi bworoshye ushobora kwishyura umucuruzi ukoresheje kode, bityo ntibabashe kuba bagukata kandi nawe amafaranga akamugeraho mu buryo bwihuse bworoshye.

Abakiriya bamaze kugura ibicuruzwa muri arimantasiyo, bakaba baje kwishyura bose uko bakabaye, bakaba ari abakiriya barenga icumi, umukozi wo muri iyo arimantasiyo arimo aragerageza kubishyuza.

Umubyeyi wishimye cyane kubera yuko yahawe kode ya momo imibare ariyo mirongo irindwi mirongo itaratu na kane karindwi, ubu bukaba ari uburyo ushobora kwishyura umucuruzi utabanje gukatwa amafaranga yo kohereza.

MTN mobile money irimo iratangaza uburyo bushya bwo gukora simu suwapu bityo ukaba wakwakira jiga biyiti imwe kandi telefone yawe bakayishyira kuri foji, hari abakobwa beza cyane bambaye imipira ya MTN biteguye kubakira bakabibakorera.

Kiyosike ya MTN mobayilo mani ushobora kwishyura ukoresheje uburyo bwa momo peyi, ukishyura kuri kode bityo umucuruzi akayakira kandi wowe urimo kwishyura ntabwo bagukata rwose kandi n'umucuruzi ntago bamukata ni uburyo bworoshye.

Umukozi wa pozo derivari utwara moto ikaba igemura ibyo kurya ahantu hatandukanye mu mujyi wa Kigali, igihe cyose utumije ibyo kurya cyangwa ibyo guteka bikugeraho vuba.

Kiko, iyi ngiyi ni apurikasiyo ushobora kwifashisha mu gihe uhaha ibicuruzwa bitandukanye, byiganjemo ibya eregitoronike, imyenda yo kwambara ndetse n'ibindi bicuruzwa byose wakwifuza y'uko bikugeraho vuba.

Umukozi wa jumiya arimo arajyana ibicuruzwa mu mwanya wabyo mu ma etajeri aba ahari, kugira ngo abakiriya nibaza babashe kumenya aho babisanga bitabagoye.

Umumotari uzanye ibyo guteka akaba arimo kubigemura mu buryo bwihuse kuko akoresha moto kandi ubitumye atarambirwa.

E iguriro. Ni buryo bw'ikoranabuhanga bwashyizweho kugira ngo umuntu abashe kuba yahahira kuri telefone yiwe. Ashobora kuba yagura ibintu kuri amazone, kuri womati baki maketi n'ahandi. Akoresheje telefoni.

Umumotari wa kefuse derivari witeguye kugira ngo ajyane ibyo kurya bya kefuse ku mukiriya uwo ari we wese uribuzeze guhamagara, ari kwambara kasike neza nkuko amategeko abiteganya.

Eri rashi fodi, iyi ni kapani ishobora gutumizaho ibyo kurya bikakugeraho mu mugihe cyihuse. Ifite ibikoresho bitandukanye, nka moto n'imodoka zifashishwa mu kugemura ibyo bicuruzwa, ibyo bikaba bibafasha kwihutisha gahunda.

Ikinyabiziga kifashishwa na kampani ya vuba vuba ushobora gutumizaho ibyo kurya ibyo guteka bityo bikaba byakugeraho mu rugo byihuse kandi bidatinze.

Vuba vuba ni serivise itangwa, ku buryo ushobora gutumiza ibyo guteka, ibyo kurya, ndetse n'ibindi, bikakugeraho vuba vuba, bitagutindiye rwose, mu kanya nk'ako guhumbya ukaba wabasha guhita uteka, cyangwa guhita ubirya.

Icyumba kiri mu nzu nini cyane, kikaba kirimo amakaro meza y'imyeru, ndetse kikaba gisize irange ry'amavuta. Kikaba giherereye i Kanombe, mu mujyi wa Kigali.

Inzu ikodeshwa ifite ibyumba binini kandi byiza bya hotel, ikaba ikodeshwa amadolari igihumbi magana atanu ku kwezi, ukaba wayikodesha iri mu mugi wa Kigali igihe cyose uyifuza wayikodesha.

Akabati keza cyane ko kubikamo imyenda inkweto, n'ibindi urugi rwiza cyane kwa ribuyu hasi hari amakaro meza cyane icyumba kinini cyane cyo gukodeshwa kirimo ibikenewe byose.

Igipangu cyiza kibonerana gisize ibara ry'umuhondo hafi yaho hari igiti, iki gipangu kirimo inzu nziza igeretse, kikaba giherereye i Kibagabaga m'Umujyi wa Kigali.

I Kigali mu Rwanda hari inzu nziza cyane ikodeshwa ibihumbi maganane ku kwezi, ikaba irimo amakaro meza cyane kandi ifite inzugi nziza cyane z'ibiti abantu barimo gukunda muri ino minsi ni nziza cyane.

Aparitoma ikodeshwa ariko itarimo ibikoresho iherereye i Kigali i Remera, ikaba ifite ibyumba bibiri ndetse n'ubwogero, iyi aparitoma ikodeshwa ibihumbi magana atandatu byonyine ku kwezi.

Igikoni kigezweho, kikaba giherereye mu nzu iri kacyiru mu mujyi wa Kigali. Ubu ngubu bari kudusobanurira neza yuko ino nzu ihagaze amadolari igihumbi magana atanu ku kwezi, kandi ukaba wahita uyimukiramo kuko irimo ibikoresho byose.

Inyubako nziza cyane iri mu gipangu cya yonyine imbere yayo hari ibiti byiza bihateye by'imitako, iyi nyubako ikaba ifite ibirahure bya fime ikaba isize irangi ry'umutuku iri ahantu heza.

Umugabo n'umugore bahagaze mu nzu nziza irimo televiziyo nini cyane, irimo intebe nziza z'umweru, kandi inzu yose isize irangi ry'umweru, uyu mugabo aje kugura ino nzu kandi bari kumwereka neza ibiyigize.

I Kigali mu Rwanda Kabeza hari inzu nini ikodeshwa. Hano hari saro nziza ifite intebe z'imisego myiza zifite ibara ry'icyatsi, ameza meza cyane ateretse afite ibara ry'umweru, hari kandi n'ibikoresho byose.

Inzu ikodeshwa iherereye mu mujyi wa Kigali ku kwezi ikaba yishyurwa ibihumbi maganatandatu, ikaba ari inzu nziza cyane iri mu gipangu cya yonyine, ni inzu ya kadasiteri kandi isize irange ry'icyatsi ifite amabati y'umutuku.

Inzu iherereye Kigali Kimironko ikaba ifite ibyumba bibiri ndetse n'ubwogero bubiri irakodeshwa kandi ikodeshwa make cyane, ku bihumbi maganatatu mirongo itanu gusa ku kwezi ubasha kubona ino nzu.

Inzu nziza cyane igereretse kabiri, ifite n'igipangu gikoze neza, iri ku muhanda nyabagendwa.

Arimantasiyo irimo ibintu bigiye bitandukanye, ikaba iri kwizihiza imyaka icumi imaze ikorera mu Rwanda, kandi itanga serivisi zinoze, ikaba irimo ibicuruzwa bigiye bitandukanye byaba ibyo guteka ibyo kurya n'bindi.

Inzu nziza cyane iriho butike yitwa jadore butike iherereye Kigali Kimironko, kandi ukeneye kubahamagara wahamagara kuri nimero zikurikira.

Polisi y'igihugu iri mu kazi kayo ka buri munsi ni ukuvuga kugenzura amaperimi y'abashoferi, bagiye batandukanye irebe niba yujuje ibisabwa kandi yemewe n'amategeko agenga perimi mu Rwanda.

Ahantu hari iguriro rinini cyane ricuruza ibikoresho bitandukanye, higanjemo imyenda yo kwambara, ibikapu, inkweto n'ibindi, harimo amakanzu meza y'abadamu y'amabara atandukanye,

Alimantasiyo irimo ibyo kunywa bitandukanye amaji, amafanta, ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye harimo n'ibyo kurya kandi nk'imigati, ibyokurya bindi byo guteka, imboga n'imbuto, ndetse n'ibindi.

Ihahiro rinini ririmo ibicuruzwa bigiye binyuranye bitewe n'ibyo umuntu yifuza; harimo abaguzi batandukanye barimo kureba ibyo bashaka kugira ngo babigure.

Simba supamaketi ni ihahiro rigezweho mu mujyi wa Kigali, rikaba rifunguye imiryango, abantu bakaba barimo kwinjira, inyuma hari umugabo wambaye umupira w'ubururu, hirya ye hari n'umukobwa uri kwinjira.

Isoko ririmo ibicuruzwa byo kwambara inkweto, imyenda, amapantaro ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Ibyo wifuza byose ushobora kubihasanga kandi ku giciro cyoroheye buri wese.

Iyi ni ikarita y'umunyamuryango y'ubwisungane mu kwivuza, ikaba yarakoreshwaga mbere yuko ubu ngubu ikoranabuhanga riza bikaba bitagisaba yuko uba ufite ino karita kugira ngo ube wemerewe kwivuza.

Annual performance report, raporo y'umwaka. Inzu nziza ya hotel igeretse inshuro eshanu akaba ariho RSSB ikorera.

RSSB ni ikigo cy'ubwiteganyirize bw'abakozi mu Rwanda, iyingiyi ni dokima igaragaza uburyo izi serivisi zose zitangwa kandi kuri buri munyamuryango wabo, zitangwa kimwe kandi neza.

Abagore bane barimo guseka umwe muri bo ateruye akana. Bose barategereje baricaye kugira ngo baze kubonana n'umuganga abavure.

RSSB Rwanda Social Security Board. Ikigo gishinzwe ubwiteganyirize bw'abakozi, mu Rwanda. Goodlife akaba batanga serivise zijyanye n'ubwizigamire, kandi ikaba iherereye i Nyakabanda i Gacuriro.

Umugore ufite ikarita y'ubwisungane mu kwivuza mituweri do sante kugira ngo atazarembera mu rugo mu gihe afite ino karita agomba kuyitwaza agiye kwa muganga.

Umuturage urimo urafashwa kugira ngo abone ubwisungane mu kwivuza nka gahunda ya leta yashyizweho mu kugira ngo abaturage bakomeze bagire ubuzima buzira umuze kandi babeho batekanye.

Ikigo cy'ubwiteganyirize mu Rwanda RSSB ikarita y'umunyamuryango y'ubwisungane mu kwivuza, ikarita ya mituweri ikaba itangwa kuri buri munyamuryango.

Umuyobozi wa rssb arimo gusobanurira abaturage, uburyo Ejo Heza ari gahunda ya leta ariko ifasha abaturage kugira ngo bazabeho neza, igihe nta mbaraga bazaba bagifite zo gukora.

Umuyobozi wa araesiesibi ikigo cy'igihugu gishinzwe ubwiteganyirize bw'abakozi, yambaye ishati y'umweru na karuvati y'umukara akaba arimo arabazwa n'itangazamakuru.

Umuganga w'umugore urimo kwandika mu ikayi. Umurwayi we wambaye umupira wa oranje yicaye iruhande rwe, arimo arerekana ubwisungane bwe mu kwivuza.

Sitowa irimo inzoga z'ubwoko bwose zigiye zitandukanye, izo bita Gipson, amacupa mato n'amaremare, izo bita Jameson, amacupa maremare, ndetse n'izindi zitandukanye wakwifuza.

Ihahiro ririmo ibyo guteka bigiye bitandukanye n'ibyo kurya, hakaba harimo pome zo kurya, hakaba harimo kandi imboga zo guteka urugero nka karoti, imiteja, n'ibindi. Hari n'urusenda hari n'umukozi ushinzwe kubitanga.

Supamaketi irimo ibicuruzwa bitandukanye, harimo n'abakiriya barimo kureba ibicuruzwa bashaka harimo ibyo kunywa urugero nka ji, ibyo kurya, nk'imigati n'ibindi.

Supamaketi irimo ibicuruzwa bigiye bitandukanye, harimo ibyo guteka urugero nk'amakaroni amagufi n'amaremare harimo ama saladine harimo amabiswi n'ibindi.

Supermarhe irimo ibikoresho ndetse n'ibyo kurya, n'ibindi bitandukanye harimo ubuki bwo kurya imigati n'ibindi .Umukiriya umwe arimo aragura ubuki afite n'akabox ari butwaremo.

Supermarket irimo ibicuruzwa, byiganjemo ibyo kunwa, amaji y'ubwoko bwose, amafanta, amasitro ndetse n'ibindi byinshi, harimo n'ibyo kurya iby'abana n'ibindi.

Supamaketi irimo umugore urimo guhaha kandi hari ibicuruzwa bigiye bitandukanye, inyuma ye hari abantu urubyiruko rurimo gufotora ruri gufata amafoto y'urwibutso.

Ihahiro ririmo ibyo kurya, ibyo guteka, amasabune yo koga harimo n'umukobwa urimo kugura isabune yo koga yo mu bwoko bwa duru, akaba afite n'agapaniye mu ntoki ari kugenda ashyiramo ibyo ahashye.

Ihahiro rusange ririmo ibicuruzwa byinshi urugero; ibyo guteka harimo ibirayi ndetse n'ibindi hakaba ndetse haba hari n'ibyokunywa bigiye bitandukanye muri iri hahiro haba hari n'ibyokurya by'ubuntu ushobora kugenda ugafata ku buntu.